Umugabo ukora umwuga w'ubuhinzi ari mu murima we urimo ibihingwa bye, uyu afite igicupa kinini ku mugongo we kirimo umuti wica udukoko ndetse ukanavura indwara zitandukanye ibihingwa, ibi ni mu rwego rwo kugira ngo umusaruro we wiyongere.

Umurima ukikijwe n'ibti birebire uhinzemo imboga, aha harimo abagabo bambaye imyambaro ibarinda kuba bakwandura indwara, irimo ibapfuka umunwa n'uturinda ntoki, aba bari gutera imiti ibi bihingwa.

Umugabo wambaye imyenda imurinda ahantu hose, uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa, tutibagiwe n'akamupfuka amaso, ari mu murima aho ahetse ikintu ku mugongo we kirimo umuti ndetse akaba ari kuwutera ku gihingwa cy'ikawa.

Umusore ukiri muto ukora ibijyanye n'ubuhinzi, ari mu murima uhinzemo igihingwa cy'ibirayi, uyu afite ku mugongo igicupa kinini kirimo umuti wica udukoko, ari gutera umuti kuri ibyo bihingwa bye kugira ngo udukoko twabyibasiwe bigende.

Umugabo wambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'umweru ari mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi. Muri iki cyumba harimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga. Urugero twavugamo nka mudasobwa, harimo kandi n'imiti y'ubwoko butandukanye ikoreshwa mu bushakashatsi.

Umugabo ukiri muto w'umuhinzi afite igicupa ahitse ku rutugu kirimo umuti wica udukoko twibasira ibihingwa, uyu ari gusuka umuti ku gihingwa cy'ibitunguru kugirango ngo yice udukoko tubyibasira.

Umugabo wambaye imyenda y'akazi ifite ibara ry'umukara, ari iruhande rw'umurima uhinzemo igihingwa cy'ibigori, uyu ari kugitera umuti kugira ngo arwanye udukoko twibasira iki gihingwa, tukakibuza gutanga umusaruro ushimishije.

Iruhande rw'ibiti binini hari umurima uhinzemo ibihingwa, muri uwo murima dusangamo umugabo wambaye imyambaro y'ubururu uhetse igicupa kinini kirimo umuti wica udukoko twibasira ibihingwa, uyu ari gutera umuti kuri ibyo bihingwa.

Umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru n'umukara, ari mu murima munini uhinzemo ibihingwa. Uyu ahetse ku rutugu ikintu kirimo umuti ndetse ari kuwutera ibihingwa bye kugira ngo bitazibasirwa n'udukoko.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'akazi ndetse n'inkweto, zikoreshwa mu mirimo irimo nk'ubuhinzi, bari mu murima munini uhinzemo ibigori bikiri bito bitaraheka, aba bahetse ibikoresho ku mugongo birimo imiti, bari gutera kandi imiti ibyo bigori.

Abagabo bafite ibikoresho biri ku mugongo wabo birimo umuti wica udukoko bari mu murima urimo ibihingwa, aba bari gutera umuti muri ibyo bihingwa kugira ngo bice udukoko twibasira ibyo bihingwa.

Umubyeyi w'umugabo ukiri muto, yambaye imyenda imurinda ku mubiri ndetse yambaye n'agapfukamunwa, uyu ahetse igikoresho kirimo umuti wica udukoko twibasira ibihingwa, ari kuwutera ku bihingwa bye kugira ngo bitazibasirwa n'utwo dukoko.

Umugabo ukora umwuga wubuhinzi wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru n'umukara, ahetse igicupa kinini ku mugongo we kirimo umuti wica udukoko n'utundi dusimba twose twibasira umusaruro w'ubuhinzi, uyu ari gutera umuti umuceri we.

Mu murima urimo ibihingwa bitandukanye harimo umusore ukiri muto uhetse igicupa kinini kirimo umuti wica udukoko, uyu ari muri uyu murima ndetse ari gutera umuti kuri ibyo bihingwa kugira ngo udukoko tubyonona dupfe.

Abagabo bambaye imyenda ibapfuka ahantu hose ndetse n'udupfukamunwa, bahetse ibicupa binini birimo imiti ivura indwara ibihingwa, aba bari gutera umuti umuceri kugira ngo uzakure neza maze were.

Umurima uhinze neza urimo igihingwa kikiri gito, iki kiri gushyirwaho ifumbire ndetse kizasukwaho n'amazi kugira ngo kizakure maze gitange umusaruro, kibyarire amafaranga uwagihinze.

Umugabo w'umuhinzi wambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu ari kumwe n'umugabo wiyubashyE. Aba bari mu murima uhinzemo ibirayi, bafite kandi umuti wica udukoko twibasira icyo gihingwa cy'ibirayi.

Ahitaruye ubwatsi butoshye hari ikiyaga kirimo amazi menshi. Muri icyo kiyaga harimo umugabo wambaye imyambaro y'umweru, aho ari gukura amazi mu kiyaga. Yambaye kandi agapfukamunwa kamurinda kwandura indwara.

Ahitegeye umusozi uriho ibiti byo mu bwoko bw'inosi, hari umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umutuku n'ubururu. Uyu, afite mu ntoki ifi amaze kuroba. Agiye kuyijyana mu rugo ayiteke ayigaburiye abagize umuryango.

Umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umuhondo n'umukara, ari mu mazi menshi agomeye. Uyu ari kuroba amafi, akoresheje igikoresho gakondo, gifite icyitwa urushundura, ari na rwo rufata amafi.

Umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, ari ahantu mu rugo ndetse ari kwerekana ikizwi nk'urushundura rwafashwemo ifi yarobye, hari kandi igihingwa cy'isina gitanga umusaruro urimo imineke iribwa cyangwa se ikanakorwamo ikinywobwa cy'urwagwa.

Inyubako ziteganye n'umusozi zubakishije amatafari ahiye, izi nyubako zikaba zigororerwamo imfungwa ndetse n'abagororwa baba barakoze ibyaha bitandukanye, bagashyirwa hamwe kugira ngo bakore igifungo cyabo.

Itsinda ry'abagabo ndetse n'abagore bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru n'ubururu, bari kunyura ahantu hari amazi yagomewe, aya mazi azakoreshwa mu bijyanye no kuhira imyaka mu gihe cy'izuba cyangwa se mu gihe hikangwa ko ibihingwa bishobora kuba byakuma.

Ahitegeye imisozi iriho ibihingwa bitandukanye ndetse n'ibiti birebire harimo ikiyaga kirimo amazi menshi, muri iki kiyaga harimo umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru n'umukara uri kuroba amafi muri iki kiyaga.

Umugabo mukuru wambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru n'umukara. Uyu ari iruhande rw'ikiyaga kirimo amazi magari ndetse ari kwerekana ifi nini cyane ndetse ndende yakuye muri ayo mazi mu bijyanye n'uburobyi.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu, ari ahantu mu kiyaga kinini ,uyu ari mu bwato bukozwe mu mbaho ndetse akaba afite ingashya, aho ari kugenda asubiza amazi inyuma kugira ngo ubwato bubashe kugenda.

Umubyeyi w'umugore ukuze, ari iruhande rw'amazi yagomewe, akorerwamo ibijyanye n'ubworozi bw'amafi, hari kandi n'umurima munini, urimo igihingwa cyera ibitoki bikorwamo imineke na yo igakorwamo ikinyobwa cy'urwagwa.

Ahitaruye ku musozi uriho ibyatsi n'ibiti, hari igishanga kigari gikorerwamo imirimo itandukanye yaba iy'ubuhinzi ndetse n'ubworozi bw'amafi kuko hari icyuzi cyororerwamo amafi mato maze yakura agakurwamo akagurishwa.

Umugabo uhagaze ku gikoresho gikozwe mu biti, cyitwa ubwato. Uyu afite umusaruro w'amafi menshi cyane yarunze muri ubwo bwato, nyuma yo kuyaroba mu kiyaga, cyegeranye n'aho aherereye.

Itsinda rigari ry'ababyeyi b'abagabo bari mu mazi menshi yegeranye n'umurima urimo igihingwa cy'umuceri, aba bari gukora igikorwa cy'uburobyi bakoresheje ikizwi nk'urushundura, amafi bakuramo bakaba bayagurisha.

Iruhande rw'ishyamba ririmo ibiti hari ibyuzi bibiri binyurwamo n'inzira y'abanyamaguru iteyemo, ibi byuzi birimo amavi akiri mato aho yororerwamo maze yamara gukura akajyanwa ku masoko abantu bakayagura bakayateka.

Umusaruro w'amafi wamaze gukurwa mu kiyaga ndetse ukaba wanafashijwe mu gikoresho kizwi ku izina ry'ibase, uyu musaruro urajyanwa ku isoko maze abawugura bage kuwuteka dore ko ukungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane.

Abagabo bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru, umutuku ndetse n'ubururu, bari ahantu mu gishanga haretse amazi. Aba bari gukora igikorwa cy'uburobyi, abo bashakisha amafi mu mazi bakoresheje ibikoresho tuzi k ku izina ry'urushundura,.

Aborozi barimo abagabo ndetse n'abagore bari ahantu mu gisambu kirimo ibyatsi bitoshye, gikikijwe n'icyuzi cy'amafi. Iki cyuzi gishyirwamo umwayi maze ukavamo udufi duto tukagaburirwa natwe tukazavamo amafi manini ajyanwa ku masoko.

Mu kiyaga kirimo amazi menshi harimo abagabo bambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu, umutuku ndetse n'umweru. Aba bafite ikizwi nk'urushundura bari kurobesha amafi mu mazi.

Ahitegeye umusozi uriho ibiti birebire n'ibigufi, hari umusore wambaye imyambaro y'umweru, uyu ari kwerekana umusaruro ushimishije w'amafi y'ubwoko butandukanye, yasaruye mu kiyaga cyangwa se n'ahandi hantu hose yaba yarakoreye ubworozi bw'ayo mafi.

Ahitegeye umusozi uriho ibiti birebire ndetse n'ibyatsi, hari kandi inzu yabugenewe igezweho yubakishije ibyuma inasakaye neza ihinzemo ibihingwa urugero twavuga nk'imboga, ibi ni uku kugira ngo izuba ryinshi ridacanira ibyo bihingwa maze bikaba byakuma.

Umubyeyi w'umugore ukiri muto, ari mu murima ukikijwe n'ibiti birebire, uyu murima urimo icyayi cyeze uyu na we akaba ari kugisarura agishyira mu dutebo mbere yuko akijyana ku ruganda kugira ngo gitunganywe maze gishyirwe ku masoko.

Ahantu hari umurima urimo ibiti by'ikawa birebire ndetse n'ibigufi, ibi biti bikaba biriho ikawa zikiri ibitumbwe, aho iyo zimaze kwera zitukura, maze zigasarurwa zikajyanwa mu ruganda gutunganywa.

Igiti kiriho ikawa yeze ndetse ifiteho n'ibitumbwe bifite ibara ry'icyatsi kibisi, ikaba ziriho zeze zirasarurwa zikajyanwa ku ruganda maze zigatunganywa, zikoherezwa mu mahanga cyangwa se no mu masoko yo mu Gihugu imbere.

Igihingwa cy'ikawa kiriho ikawa z'ibitumbwe zitarera, zifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'izeze neza zifite ibara ritukura, izi zeze zirasarurwa zikajyanwa mu nganda maze zigatunganywa mbere yo kugurishwa.

Umurima munini urimo icyayi ndetse n'ibiti birebire bizwi ku izina rya greveriya, harimo itsinda rigari ry'abagore bafite utuntu bahetse ku mugongo wabo bari gushyiramo icyo cyayi, mbere yuko cyegeranywa kikajyanwa ku ruganda gutunganywa.

Ababyeyi b'abagore bambaye imyambaro isa ifite amabara y'umutuku, bari ahantu mu gipimo cy'ikawa kirimo ibiti by'ikawa bitarera ndetse n'ibyeze, aba bafite umusaruro w'ikawa mu biganza byabo ndetse bari kuwerekana.

Ibihingwa bitandukanye, bihinze neza ku murongo ndetse hanakurikijwe amabwiriza y'ubuhinzi bugezweho. Ibi bihingwa iyo bikoze bitanga umusaruro maze ababihinga na bo bakabisaruramo amafaranga, bikabateza imbere ndetse bikanateza igihugu muri rusange imbere.

Igihingwa cy'ikawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu biteza imbere ababihinga, gikunda kwera cyane cyane mu misozi miremire kuko gikenera izuba, nyuma kirasarurwa kikajyanwa mu nganda maze kigatunganywa.

Umugabo ndetse n'umugore bari mu murima munini w'icyayi ukikijwe n'ibiti, aba bambaye udutebo mu mugongo wabo, aho bari gusarura utubabi tw'icyayi bashyira muri utwo dutebo maze cyamara kugwira bakakijyana mu ruganda.

Ibikomoka ku buhinzi, birimo ibihingwa ngengabukungu, urugero twavugamo ibireti, ikawa ndetse n'icyayi. Ibi ni bimwe mu bihingwa biteza imbere ababihinga kuko bigira amasoko menshi haba mu gihugu ndetse n'imahanga.

Uruhererekane rw'imisozi ihinzeho ibihingwa birimo icyayi ndetse n'ibiti birebire, icyayi gihinze muri uwo murima, kikaba gitunganywa iyo kimaze gusarurwa, maze kikajyanwa mu nganda na ho kigatunganywa kikoherezwa ku isoko, ryaba iryo mu mahanga cyangwa n'iryo mu Rwanda.

Abagabo babiri bambaye imyambaro ifite amabara asa bari mu murima munini w'icyayi, iki cyayi bari kugisarura ngo bakijyane ku ruganda maze gitunganwe kijyanwe ku masoko yo mu mahanga cyinjiriza amafaranga igihugu.

Ababyeyi b'abagore bicaye ahantu kuri shitingi nini bari gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi, aba bari kuwushyira neza mu mifuka babanje kuwutora kugira ngo bawuvangure n'wuteze neza cyangwa se n'umeze nabi.

Umugabo w'umuhinzi wambaye imyambaro ifite amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, ari mu murima munini urimo ikawa zikiri ntoya, harimo kandi n'igihingwa cy'insina, zera ibitoki bikorwamo imineke yo kuribwa n'iyo kwengamo urwagwa.

Umubyeyi w'umugore, afite mu ntoki umusaruro w'ikawa wavuye ku biti bikunda kwera cyane k'umusozi. Iyi kawa, igiye kujyanwa ku ruganda itunganywe maze ijyanwe ku masoko, yaba ayo mu Rwanda ndetse no mu mahanga.

Umubyeyi w'umugore, wambaye imyambaro ifite ibara ry'umuhondo n'umukara . Uyu ari mu murima urimo ibiti by'ikawa ,aho ari kuyisarura mbere y'uko ayijyana ku ruganda ngo bayimugurire maze itunganywe, ijyanwe ku masoko.

Umubyeyi w'umugore wambaye igikoti kinini cy'icyatsi kibisi ari mu murima munini uhinzemo icyayi, akaba ari kugisarura ngo akijyane ku ruganda maze gitunganywe cyoherezwa ku masoko yo mu mahanga ndetse n'ayo mu gihugu.

Umugabo mukuru yambaye umwambaro ufite ibara ry'umuhondo ukoreshwa mu kazi, uyu ari mu murima munini w'icyayi, aho ari kugisarura kugira ngo kijyanwe ku ruganda, gitunganywe maze gishyirwe ku masoko.

Icyayi ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu iyo kimaze kwera kiba gifite ibara ry'icyatsi kibisi kirasarurwa kikajyanwa mu nganda maze abakozi bashinzwe kugitunganya bakabikora mbere y'uko kijyanwa ku isoko.

Ahitegeye umusozi uriho ibiti birebire hari umurima munini w'icyayi, muri uyu murima arimo umugore uhetse agatebo ku mutwe uri gusarura icyo cyayi, agishyira muri ako gatebo.

Umubyeyi w'umugore ari kumwe n'abana be, aho bari mu murima munini wezemo umuceri bakaba bari kuwusarura bakoresheje icyuma. Aba iyo bamaze kuwusarura bawujyana mu nganda ugatonorwa ndetse ukanatunganywa.

Amacupa meza afite amabara y'umweruru, apfundikiwe ndetse yashyizwe ahantu habugenewe, aya macupa afungiranyemo imiti ivura indwara zitandukanye amatungo yo mu rugo, zirimo nk'inkoko, inka, ihene, intama ndetse n'ayandi.

Mu cyumba cyateguwe neza harimo ibikoresho byiganjemo ibibitse imiti ikoreshwa cyane cyane mu bworozi ndetse no mu buhinzi, aha dusangamo imiti ivura inyamaswa indwara zitandukanye ndetse n'ivura ibihingwa iyo byibasiwe n'ibibyona.

Imiti iri ahantu habugenewe hatagira ubushyuhe n'ubukonje. Iyi miti ifunze neza ndetse irifashishwa, iyo hari nk'itungo ryaba irirerire cyangwa irigufi rifite ikibazo cy'ubuzima.

Imiti ifunze neza mu gishashi gifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, kuri iyi miti hashushanyijeho rimwe mu matungo magufi azwi ku izina ry'inkoko, uyu muti ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye ayo matungo.

Mu cyumba cyateganyirijwe kubikamo imiti, gifite ibara ry'umweru, harimo imiti ifunze neza mu mabara atandukanye. Iyi miti ikoreshwa mu buvuzi bw'amatungo iyo hari amatungo yaba amagufi cyangwa maremare yibasiwe n'indwara.

Imiti ifunze neza mu mabara y'umuhondo, icyatsi kibisi ndetse n'umweru, iyi miti ivura indwara zitandukanye zibasira amatungo yo mu rugo, arimo nk'ihene, inka, intama, inkoko ndetse n'ayandi.

Imiti ifunze neza mu mabara y'ubururu, umutuku ndetse n'umweru. Iyi miti ibitswe ahantu hayibuza kuba yakwangirika mbere yuko ikoreshwa. Ivura kandi indwara zitandukanye zibasira ibihingwa ndetse n'izibasira amatungo yo mu rugo.

Imiti iri ahantu heza, habugenewe hatuma idahura n'ubushyuhe bukabije cyangwa ubukonje bukabije, iyi ifunze mu macupa ndetse irapfundikiye neza, ibamo kandi imiti y'amazi ikururwa mu rushinge maze igaterwa amatungo arwaye indwara.

Imiti itondekanyije neza mu cyumba cyabugenewe, biyirinda kuba yakwangirika. Ifunze neza mu mabara y'umutuku, umukara ndetse n'umweru. Iyi kandi ivura indwara zitandukanye z'amatungo yo mu rugo.

Uducupa twiza dufite amabara y'umweru n'icyatsi kibisi, twashyizwe ahantu hamwe kugira ngo dutangirika, utu ducupa turimo umuti w'amazi ukururwa mu rushinge maze ugaterwa amatungo iyo afite ikibazo cy'indwara.

Imiti irimo ifunze mu mabara y'umuhondo, umweru ndetse n'icyatsi kibisi. Iyi miti ishushanyijeho amatungo magufi yo mu rugo urugero twavugamo nk'inkoko. Iyi miti kandi ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, iyo zibasiye ayo matungo.

Imiti ifunze neza mu mabara y'icyatsi kibisi, umweru ndetse n'umukara. Iri ahantu heza hayibuza kwangirika. Iyi miti ivura indwara zitandukanye, amatungo yo mu rugo arimo nk'intama, ihene, inkoko ndetse n'ayandi.

Imiti ifunze neza mu ducupa dufite amabara y'umweru ndetse tumwe na tumwe tukaba turiho ibishushanyo by'amatungo yo mu rugo, urugero twavugamo nk'isake, iyi miti ikaba ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zibasira amatungo yo mu rugo.

Amacupa afunze neza mu mabara y'umweru, anapfundikiye neza cyane. Muri aya macupa harimo umuti ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye z'amatungo yo mu rugo, yaba amagufi cyangwa n'amaremare. Urugero twavugamo nk'inka, ihene, intama ndetse n'ayandi.

Imiti ifunze neza muducupa natwo dupfundikiye neza. Iyi yashyizwe ahantu habugenewe, hatagira ubushyuhe bukabije cyangwa ubukonje bukabije, bishobora kuba byatuma yangirika mbere yuko ikoreshwa. Iyi miti ivura indwara zitandukanye, amatungo yo mu rugo.

Imiti iri ahantu heza habugenewe ifunze neza mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, mu ducupa dupfundikiye tuyibuza kwangirika, iyi miti ivura indwara zitandukanye zibasira amatungo yo mu rugo.

Imiti ifunze neza mu mashashi ashushanyijeho amwe mu matungo yo mu rugo arimo nk'inkoko ndetse n'imiwi, iyi miti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye ayo matungo kugira ngo atange umusaruro mwiza.

Imiti iri ahantu heza ifunze neza mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo no mu ducupa dupfundikiye neza, iyi miti ivura indwara zitandukanye zibasira amatungo yo mu rugo ndetse uburyo ibitsemo biyibuza kuba yakwangirika.

Imiti ibitse neza mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara, ikaba ibitse mu bintu bishushanyijeho amatungo maremare azwi ku izina ry'inka. Iyi miti ikoreshwa mu kuvura izo nyamaswa, iyo zifite ikibazo k'indwara.

Mu gisambu kirimo ubwatsi butoshye, harimo umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, uyu aragiye inka za kijyambere, zifite ibara ry'umweru n'umukara zizwiho kugira umukamo mwinshi no gutanga umusaruro ku bazorora.

Abagabo barimo abashinzwe umutekano, barimo n'umugabo wambaye impuzankano z'igipolisi cy'Igihugu, bari gukora umuganda bakoresheje ibikoresho bikoreshwa mu buhinzi, bizwi nk'amasuka ndetse na za majagu.

Mu murima uhinzemo ibihingwa bitandukanye, harimo umugabo ndetse n'umugore, aba bombi bakaba bari gutera ibiti muri uwo murima, bakoresheje ibikoresho bya gakondo bikoreshwa mu buhinzi birimo n'amasuka.

Imirima minini ihinzemo umuceri ukiri muto, uyu muceri iyo ukuze urasarurwa ukajyanwa mu nganda, ugatunganywa maze ugashyirwa neza mu mifuka, ubundi ukajyanwa ku masoko, abantu na bo bakawugura bakajya kuwurya mu ngo zabo.

Umubyeyi w'umugore ukuze, wambaye imyambaro y'umweru n'umukara, ari imbere y'umusaruro we w'ibirayi. Uyu ari kuwucururiza ku muhanda kugira ngo arebe ko yabona amafaranga maze agatunga abagize umuryango we, biturutse ku buhinzi yikoreye.

Umugabo ndetse n'umugore bari ahantu hari ibiraro binini byubakishije ibiti, muri ibi biraro dusangamo amatungo maremare azwi ku izina ry'inka za kijyambere, zitanga umusaruro w'umukamo n'uw'inyama.

Mu gisambu kirimo ibyatsi bitoshye harimo abagabo babiri umwe afite igare rihetse inkwi zifashishwa mu gucana umuriro, uyu kandi afiteho n'igikoresho gikoreshwa mu ubwubatsi kizwi ku izina ry'igitiyo.

Mu mbuga nini ikikijwe n'ibiti harimo amatungo menshi azwi ku izina ry'ihene, aya matungo yashyizwe hamwe aho agiye gukingirwa indwara zitandukanye kugira ngo zitazayibasira mu gihe kizaza.

Itsinda ririmo abagabo ndetse n'abagore, bateraniye mu byatsi munsi y'igiti cya gereveriya, aba bari guhabwa ingurube ngo zizabateze imbere, hari kandi n'igihingwa cy'insina, cyera ibitoki bivamo imineke ibindi bigakorwamo urwagwa.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umuhondo, ari mu murima uhinzemo ibigori, afite kandi igikoresho gityaye aho ari gutema ibyo bigori abirunnda ahantu hamwe kugira ngo abijyane maze abigaburire amatungo ye.

Umurima urimo ibihingwa bihinze neza ku murongo hakurikijwe amategeko y'ubuhinzi bugezweho, ibi bihingwa byitabwaho bigashyirwaho ifumbire bigaterwa umuti maze na byo bikazabyara umusaruro bigateza imbere ababihinze.

Umugabo n'umugore bakora umwuga w'ubuhinzi bari mu murima bahinzemo imboga zabo, aba iyo basaruye bajyana umusaruro wabo ku isoko, ukagurwa n'abantu maze bakajya kuwuteka mu ngo zabo.

Itsinda ry'abahinzi barimo abagabo ndetse n'abagore, bari mu murima uherutse gusarurwamo umusaruro w'ibigori. Aba, bari gutunganya ibiti byavuyeho ibyo bigori, byumye maze babijyane kubitwika. Umusaruro wavuye muri ibyo bigori ukaba warajyanywe ku masoko.

Iruhande rw'ibyatsi bitoshye hari umugabo w'umworozi, uyu ari munsi y'inka ye ya kijyambere, ifite amabara y'umweru n'umukara, yayitayeho neza arayigaburira, ayiha n'imiti irwaye none na we ari kuyikuramo umusaruro w'umukamo.

Umugabo ukiri mu myaka mito ari ahantu mu gisambu kinini kirimo ibyatsi, uyu atwaye igare ririho imigozi, iyi migozi ikaba ijyanwa igaterwa mu murima maze ikazavamo ibijumba, bikagurishwa cyangwa bikanaribwa mu ngo.

Igihingwa cy'imbuto zizwi ku izina ry'amacunga, aya macunga iyo yeze, ajyanwa mu nganda agatunganywa agakurwamo umutobe uyakomokaho cyangwa se akanakurwamo ibindi birimo nk'imiti.

Umurima ukikijwe n'ibiti birebire urimo imboga zizwi ku izina ry'amashu, izi mboga zitabwaho zigashyirwaho umuti n'ifumbire maze zakura zigasarurwa, zikajyanwa ku isoko maze abazihinze bagahabwa amafaranga.

Imirima minini cyane ihinzemo igihingwa cy'umuceri utarera neza. Aha kandi hakikijwe n'ishyamba rinini ry'inzitane rigizwe n'ibiti birebire, iri shyamba ni iwabo w'inyamaswa z'agasozi urugero twavugamo nk'inzoka, imihari, ibitera ndetse n'izindi.

Umurima munini urimo igihingwa cy'ibigori, ibi bigori iyo bikuze biranikwa bigahungurwa, maze bikajyanwa gutunganywa, hari kandi n'igihingwa cy'insina cyera ibitoki bivamo imineke, ibindi bikavamo urwagwa.

Umurima uhinze neza urimo ibihingwa bitandukanye ndetse n'igiti cyera imbuto z'umwembe. Iki giti, ntikerera ariko iyo cyeze byera imbuto nziza zikajyanwa ku masoko, maze abantu bakazigura bikinjiriza amafaranga uwagiteye.

Inyubako yubatswe neza, ifite amabara atandukanye ndetse isakaje amabati y'ubururu, imbere y'inyubako tubasanga ibiti bizwi ku bwoko bwa gereviriya, ibi biti bibazwamo imbaho na zo zigakurwamo ibintu birimo nk'ameza ndetse n'intebe.

Igihingwa cy'ibigori ni kimwe mu bizwiho guteza imbere umuntu ugihinga kuko gitanga umusaruro ndetse kigakorwamo ibintu bitandukanye birimo ifu, na yo ivamo igikoma cyangwa n'akawunga, bityo bikaba bituma abantu bakunda kugihinga.

Inzu zubatswe mu buryo bugezweho, hakoreshejwe ibyuma n'amashashi manini abonerana, izi nzu zikorerwamo ibikorwa by'ubuhinzi burimo ubw'imbuto ndetse n'imboga, izi nzu kandi zikozwe mu buryo zirinda ibihingwa birimo imbere, kuba byagerwaho n'izuba ryinshi cyangwa imvura nyinshi bishobora kuba byabgiza.

Imbere y'inzu zubatswe hakoreshejwe ibikoresho by'ubwubatsi birimo nk'amabuye, hari umurima urimo ibimera bitandukanye. Urugero twavuga nk'igiti kizwi ku izina rya gereveriya. Nanone kandi, hari igiti cyavuyeho ikigori. Iki kikaba cyarumye nyuma yuko kitakibona ibigitunga bihagije.

Umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye twavugamo ibiri mu cyiciro cy'ibihingwa ngandurarugo, nk'ibijumba ndetse n'imyumbati ibi iyo byeze bijyanwa ku masoko bikagurishwa ibyinshi ariko bijyanwa mu rugo bikaribwa n'abagize umuryango.

Umurima uhinze neza, urimo igihingwa cy'ibigori byegeranye ndetse byeze neza. Ibi bigori bitanga umusaruro, aho bikorwamo ifu nayo ikorwamo ibintu bitandukanye birimo; akawunga, igikoma cg se n'ibiryo by'amatungo.

Umuhanda nyabagendwa muremure ndetse wa kaburimbo ufite amabara y'umukara ndetse n'umweru, uyu muhanda ukikijwe n'amatara yo ku muhanda amurika mu gihe cy'ijoro maze bikoroshya ibigendanye n'ubwikorezi bukorwa masaha yose.

Abaturage bakora umurimo w'ubuhinzi, bateraniye ahantu hamwe mu isoko rusange, aho bazanye umusaruro wabo w'ibikomoka ku buhinzi, byiganjemo ibirayi bipakiye neza mu mifuka ndetse bishishe ari na binini cyane.

Igiti cyera imbuto zizwi ku izina ry'umwembe, iki giti kiracyari gito ndetse gifite ururabo ruzavamo imbuto mu mugihe iki giti kizaba gikuze, giteye ahantu mu gisambu hari ubundi bwoko bw'ibiti butera imbuto.

Igihingwa cy'umuceri gikunda kwera cyane cyane mu mibande kuko gikenera amazi kugira ngo kibeho, iki gihingwa iyo kimaze kwera, kirasarurwa neza kikanikwa maze kikajyanwa mu nganda kigatunganywa.

Ibikomoka ku buhinzi birimo imboga n'imbuto, urugero twavuga nk'amacunga, ibigori, ibirayi ndetse n'inyanya, hari kandi n'ibyo kunywa by'ubwoko bwose biri mu birahure n'amacupa.

Umurima uhinzemo umuceri ukiri muto utarakura, harimo umugabo w'umuhinzi, uyu mugabo ari kubabagara neza iki gihingwa kugira ngo kizakureho kitabangamiwe n'ibindi, bityo kizatange umusaruro.

Inzu zituwemo n'abantu zubatswe mu buryo bugezweho zisakaje n'amabati, iruhande rw'izi nzu hari ibiti bibiri by'ubwoko butandukanye, kimwe kirekire ndetse n'ikindi cyera imbuto zizwi ku izina ry'imyembe ziryohera.

Umubyeyi w'umugore ukiri muto yambaye imyambaro ifite ibara ry'umukara n'umweru, uyu ari mu gasoko kagenewe gucururizwamo ibikomoka ku buhinzi, afite mu ntoki imboga zirimo pavuro, karoti ndetse n'urubuto rw'umwembe.

Mu murima uhinzemo ibihingwa bitandukanye harimo ikimera cy'avoka iki kikaba kera imbuto maze zikajyanwa ku isoko abaguzi bakazigura bamwe bakazisubiza abandi bakazirya mu ngo.

Umurima munini cyane uhinzeho ibigori, ibi ibigori ntago birera ariko iyo byezi birahungurwa bigakorwamo intete, zikajyanwa mu nganda nazo zigakorwamo amafu, ushobora kuba watekamo akawunga, igikoma cyangwa se ikanakurwamo ibiryo by'amatungo.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye birimo ibigori bikorwamo ifu y'akawunga ndetse n'iy'igikoma amapapayi zimwe mu mbuto zikunzwe cyane mu bantu na none kandi hari n'igihingwa cy'izina byera ibitoki.

Amashyamba arimo ibiti birebire ndetse n'ibigufi, aya mashyamba afite akamaro kanini cyane kuko akurura imvura, agatanga umwuka mwiza wo guhumeka, ndetse agacumbikira n'ibinyabuzima bitandukanye biba mu mashyamba.

Abantu biganjemo abagabo ndetse n'abagore bakuze bari mu muhanda nyabagendwa wa kaburimbo, ukikijwe n'ibiti birebire bikurura imvura, bigatanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse bikanakorwamo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo.

Ibiti byinshi biri ahantu hamwe ndetse biri kumwe n'ibihuru, ibi biti bikaba bifite agaciro kenshi kuko bikurura imvura, bigatanga umwuka wo guhumeka ndetse bigakurura n'abakerarugendo bakishyura amafaranga, maze bigateza imbere ubukungu bw'igihugu.

umusozi uriho amashyamba agizwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye, ibi biti bikurura umwuka mwiza wo guhumeka, bigakorwamo imbaho, nazo zikorwamo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo birimo nk'intebe ndetse n'ibindi.

Umusozi muremure uriho ibimera bitandukanye, birimo ibyatsi, ibiti birebire ndetse n'ibigufi, ibi biti bikorwamo ibikoresho bitandukanye, urugero twavugamo ameza, intebe, amadirishya inzugi ndetse n'ibindi.

Ku muhanda unyura hagati mu misozi harimo, ibinyabiziga byinshi birimo imodoka bigiye guterera muri uwo muhanda. Mu nkengero zawo kandi ari amashyamba manini ndetse n'ibiti birebire binyurwaho n'imiyoboro y'amashanyarazi.

Umurima munini ukikijwe n'ibiti birebire by'inganzamarumbo, uyu murima uterwamo imbuto zitandukanye zirimo nk'ibishyimbo cyangwa se n'ibigori, igihe bikuze bigatanga umusaruro maze ukajyanwa ku isoko cyangwa se ukaribwa mu miryango.

Ahitegeye umusozi muremure uriho ibiti by'ubwoko butandukanye, hari umurima uhinzemo ibihingwa, ibi bihingwa bikaba byitabwaho maze bigatanga umusaruro ujyanwa ku isoko ndetse ukanatunga abagize umuryango.

Mu gisambu kinini kirimo ubwatsi butoshye ndetse n'ibiti binini by'inganzamarumbo, harimo inka z'inzungu zifite amabara atandukanye, izi nka ziri kuririsha ubwatsi kugira ngo zizatange umusaruro w'umukamo ushimishije.

lshyamba rinini rigizwe n'ibiti birebire ndetse n'ibigufi, iri shyamba ni iwabo w'inyamaswa nyinshi z'agasozi urugero twavugamo nk'inzoka, imihari ndetse n'izindi, iri shyamba kandi usibye kuba ari iwabo w'inyamaswa, rikurura n'abakerarugendo bakishyura amafaranga ku gihugu, maze bigateza imbere ubukungu.

Imisozi ihekeranye iriho ibihingwa birimo icyayi ndetse kandi ikagira n'ibiti birebire bibazwamo imbaho, bigakurura imvura ndetse bigakurura n'abakerarugendo bishyura amafaranga maze ubukungu bugatera imbere.

Imbere y'ishyamba ry'inzitane rituwemo n'inyamaswa z'agasozi, urugero twavuga nk'ibitera, inzoka ndetse n'izindi, imbere yaryo hari abantu benshi baje kurikoramo umuganda, bakoresheje ibikoresho birimo nk'amasuka.

Aharindiwe umutekano w'inyamaswa, hari ibiti ndetse n'ibyatsi tutibagiwe n'ibihuru, aho kandi hari inyamaswa nini zizwi ku izina ry'inzovu, izi nyamaswa zizwiho kuba zitagira amahane ndetse zikaba zirishiriza ibyatsi.

Ishyamba rigari ririmo ibiti byaba Ibirebire ndetse n'ibigufi, ibi biti bikurura umwuka mwiza wo guhumeka, bigakorwamo ibikoresho bitandukanye, ndetse rimwe na rimwe bikaba byanakurura abakerarugendo nabo bakishyura amafaranga.

Umugabo ukiri muto ari mu ishyamba ririmo ibyatsi ndetse n'ibiti birebire, ibi biti bibazwamo imbaho, na zo zigakorwamo ibindi bikoresho byo mu rugo, bikurura kandi abakerarugendo bikanakurura imvura.

Ahari umusozi muremure uriho ibiti by'ubwoko butandukanye, hari n'icyuzi kigali gikorerwamo imirimo igendanye n'ubworozi bw'amafi. Ayo mafi ajyanwa ku masoko amenshi akaribwa mu ngo bityo abantu bakarushaho kugira ubuzima bwiza.

Ababyeyi b'abagore ndetse bafite n'abana bakiri bato, bari ahantu hateguriwe gushyirwa imbuto zikiri ntoya, zikitabwaho zigasukwaho amazi ndetse n'ibizitunga, mbere yo kugira ngo zimurirwe mu murima aho ziba zizamara igihe kirekire.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru, ari ahantu mu murima ukikijwe n'ibiti binini, umurima we uteyemo imboga rwatsi zizwi ku izina rya epinari, izi mboga zikaba zifasha umubiri guhangana n'indwara zitandukanye.

Mu isoko rusange harimo imboga ndetse n'imbuto, urugero nk'urusenda ibitunguru ndetse na pavuro. Ibi ni bimwe mu mboga n'imbuto bifasha umubiri kugira ubudahangarwa ndetse no kugira imbaraga zo guhangana n'indwara.

Umurima wa kijyambere ndetse ukozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga uhinzemo imboga ndetse n'imbuto, izi mboga ziravomererwa ndetse zikaba ziri mu kizu kinini cyubakishije ibyuma kizirinda kuba zahura n'izuba ryinshi.

Igihingwa cy'inanasi gihinze umurima munini, iki gihingwa kizwiho kugira umutobe uryohereye, bityo kikaba gikorwamo ibintu bitandukanye birimo imiti ndetse n'ibyo kunywa biryohereye nka cyo.

Imodoka nziza ikoreshwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, iri inyuma yurugo rwubakishije amabati, nanone kandi hari ibiti birimo ibyera imbuto z'imyembe ,zikungahaye ku isukari ifasha umubiri kwirinda indwara.

Ibikomoka ku buhinzi birimo urusenda rutukuye, uru rusenda rureze neza, rugiye kujyanwa ku nganda maze rukurwemo ifu, runatunganywe rujyanwa ku isoko maze abantu barugure byinjiriza amafaranga abaruhinga.

Ababyeyi b'abagore bakiri bato bari mu murima munini uhinzemo imbuto z'inanasi zizwiho kugira umutobe uryohera, hari kandi n'ikindi gihingwa kizwi ku izina ry'isina, gitanga umusaruro urimo urwagwa n'imeke yo kurya.

Umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru ndetse n'ingofero, ari ahantu mu murima uhinzemo igihingwa cy'urusenda, uyu ari kugisarura akoresheje igikoresho cy'umukasi mbere yuko ajyana umusaruro ku isoko.

Ababyeyi b'abagore bakora mu ruganda rutunganya umusaruro ukomoka ku gihingwa cy'avoka bari mu kazi kabo bambaye imyambaro y'akazi, aba bari kujonjora avoka bafata izeze n'iziteze bakabivangura.

Ababyeyi b'abagore bakuze bambaye imyambaro ifite amabara y'umuhondo, umutuku n'icyatsi kibisi bari hirya y'igiti cy'inganzamarumbo, bari gutera kandi mu murima imigozi yera ibijumba iyo imaze gukura.

Umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru yambaye n'agapfukamunwa. Ari ahantu hategurirwa imbuto zikiri nto kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza mbere yuko zijyanwa mu mirima, aho ziba zizamara igihe kirekire.

Umugabo w'umuhinzi ukuze, wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru, umutuku n'umukara, ashimishijwe n'umusaruro amaze gukura mu mbuto. Uyu azijyanye ku isoko kugira ngo azikuremo amafaranga maze agure ibitunga umuryango we.

Umurima urimo ibiti birebire bifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse byera imbuto nziza zitukuye, izi mbuto zikorwamo ibintu bitandukanye, birimo imiti ndetse n'imitobe iryohereye.

Mu nzu yabugenewe ikozwe neza hakoreshejwe ibyuma, itwikiriye ibihingwa biri muri iyo nzu, ibi bihingwa kuko birindwa izuba ryinshi, bikarindwa n'imvura nyinshi bitanga umusaruro.

Ababyeyi b'abagore bari gukora umuganda mu murima bakoresheje ibikoresho bizwi mu gukora amasuku ndetse no guhinga bizwi ku izina ry'isuka, aba kandi bari no kuvomera imyaka yabo aho bari hari n'insina zera ibitoke.

Umugabo ukiri muto w'umuhinzi, ari mu murima ukikijwe n'ibiti birebire, uyu murima yawuhinzemo imboga rwatsi, ari kuzivomera akoresheje umupira muremure utwara amazi, ibi ni ukugira ngo izuba ryinshi ritazagira ingaruka ku mboga ze.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bifite amapine ndetse bikozemu byuma. Ibi bikoresho bikoreshwa mu buhinzi mu gihe cyo kuvomera iyo imyaka idafite amazi ahagije cyangwa se iy'izuba ryinshi ryateye.

Ahitegeye umusozi muremure, hari igihingwa cy'ibigori gifite amabara y'icyatsi kibisi. Ibi bigori iyo bikuze biranikwa bikajyanwa guhungurwa, maze intete zabyo zigakorwamo ifu. Iyi fu ivamo ibintu bitandukanye birimo ibiryo by'amatungo.

idiyo rinini rifite ibara ry'ubururu, rinyuzwamo amazi ajya impande n'impande mu baturage, ndetse akanakoreshwa mu kuhira ibihingwa mu gihe cy'izuba. lruhande rwaryo kandi hari ibihingwa bizwi ku izina ry'ibigori. Rivamo ibintu bitandukanye birimo n'igikoma.

Umugabo w'umuhinzi wambaye imyambaro y'umukara n'icyatsi kibisi ari mu murima we munini uhinzemo ibihingwa, uyu ari kubivomera abisukaho amazi kugira ngo bitazuma bitewe n'izuba ryinshi cyangwa ubushyuhe bwinshi.

Umurima uhinze neza ndetse uhinzemo ibihingwa biteye ku murongo mu rwego rwo kugira ngo bizagire umusaruro mwiza, ibi bikaba ari bimwe mu bikurikizwa mu buhinzi bugezweho, butanga umusaruro ugereranyije n'ubuhinzi busanzwe.

Itiyo rinini rifite ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi kibisi, rifungiyeho utundi duto, tujyana amazi mu bihingwa mu kugira ngo hahanganwe n'ihindagurika ry'ikirere, rituma habaho ubushyuhe ndetse n'izuba ryinshi, ryakwangiza ibihingwa.

Umubyeyi w'umugabo ari mu murima munini uhinzemo imbuto, uyu ari gukoresha igikoresho kizwi ku izina ry'indobo ashyira ifumbire ku bihingwa bye ndetse akanyuzamo akanabivomera.

Umuhinzi uri mu murima we uhinze neza urimo igihingwa cy'ibigori biteye ku murongo ndetse hakurikijwe amabwiriza agenga ubuhinzi bugezweho, ibyo bigori kandi biri kuvomerwa hifashishijwe ikoranabuhanga.

Imboga zihinze neza ku murongo hakurikijwe amategeko y'ubuhinzi bugezweho, hari kandi n'igikoresho cy'ikoranabuhanga, gitwara amazi kiyakura ahantu hamwe kiyajyana ahandi ndetse kikayavomera ku mboga.

Mu murima uhinzemo ibihingwa, birimo ibishyimbo ndetse n'ibigori ariko bitarera, harimo umuhinzi ufite imyambaro ifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'ubururu bwijimye, uyu ari kuvomera imyaka ye mu gihe cy'izuba, murwego rwo kugira ibihingwa bye bitazuma.

Mu guhangana n'ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ikirere ziganjemo ubushyuhe bwinshi ndetse n'izuba ryinshi, bikaba bituma ibihingwa byuma bityo rero hifashishwa uburyo butandukanye bwo kuvomera ndetse no kuhira ibihingwa.

Umugabo w'umuhinzi ukiri muto, ari mu murima munini uhinzemo ibihingwa bitandukanye, uyu ari kuhira ibyo bihingwa akoresheje itiyo rinini ritwara amazi, umurima we kandi ukikijwe n'ibindi bihingwa, birimo insina zera ibitoki.

umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu n'icyatsi kibisi ari mu murima urimo ibihingwa, uyu ari kubyuhirira abisukaho amazi kugira ngo bituma bitewe n'izuba ryinshi.

Umuyoboro w'amazi wubatswe mu buryo bugezweho impande z'umusozi. Aya mazi, aturuka mu gice kimwe akajya mu kindi maze agakoreshwa mu mirimo y'ubuhinzi irimo; nko kuhira ibihingwa maze bigatuma umusaruro uvamo wiyongera.

Mu kugira ngo abahinzi ba n'ihindagurika ry'ikirere naryo ritera ubushyuhe bwinshi ndetse n'izuba ryinshi bityo bigatuma ibihingwa byera, abahinzi basuka amazi ku bihingwa byabo bakoresheje ibintu bitandukanye.

Iruhande rw'umurima munini urimo umuceri weze, hari icyuma cy'ikoranabuhanga gikoreshwa mu gufata imirasire y'izuba maze igahindurwamo umuriro w'amashanyarazi, uwo muriro na wo ukifashishwa mu kuhira ibihingwa.

Mu murima ukikijwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye, harimo umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umukara ndetse n'ubururu, uyu ari kuvomera imyaka ye, akoresheje igikoresho gitwara amazi, kiyakura ahantu kure kiyazana aho akoreshwa mu kuvomera.

Umugabo ukora umwuga w'ubuhinzi, yambaye imyambaro ifite amabara y'icyatsi kibisi cyijimye, uyu ari mu murima we uhinzemo igihingwa cyibigori bikiri bito, ari kubivomera akoresheje umupira uzana amazi kugira ngo bitazicwa n'ubushyuhe bwinshi.

Imisozi miremire ndetse n'imigufi iriho ibimera byinshi birimo ibyatsi ndetse n'ibiti. Ibi biti iyo bikuze bikorwamo inkwi zo gucana, amakara ndetse n'imbaho na zo zikorwamo ibikoresho nk'ameza n'intebe.

Ahitegeye umusozi muremure uriho inzu zituwemo n'abantu, uyu musozi kandi uriho ibihingwa by'ubwoko butandukanye. Mu rwego rwo kugira ngo amazi adatwara ibi bihingwa, hashyirwaho amaterasi y'indinganire.

Agasozi karekare kariho inzu zituwemo n'abantu ndetse kariho n'ibyatsi n'ibiti. Ibi biti n'ibyatsi bifata amazi mu gihe k'imvura nyinshi bityo bigatuma hatabaho isuri ngo itware imyaka.

Umurima uhinzemo ibihingwa birimo nk'insina zera ibitoki byaba ibikorwamo urwagwa ndetse n'ibiribwa uyu murima kandi uteyemo n'igiti kirekire cyera imbuto zizwi ku izina rya avoka.

Uruhererekane rw'imisozi iriho ibimera bitandukanye birimo ibiti ndetse n'ibyatsi, hariho kandi n'ibihingwa birimo isina zera ibitoki bimwe bigakorwamo imineke ibindi bigakorwamo urwagwa.

Ahitegeye umusozi uriho ibihingwa bitandukanye birimo ibyatsi n'ibiti, hari umugezi muremure unyonyomba ukoreshwa mu kuhira ibihingwa mu gihe cy'izuba rikabije, uyu mugezi unabamo amafi aribwa mu ngo ndetse akanagurishwa.

Imisozi miremire n'imigufi iriho inzu zituwemo n'abantu, kuri iyo misozi hariho n'ibiti birebire bya gereveriya bikorwamo imbaho zikomeye, na zo zivamo ibikoresho birimo nk'ameza, inzugi, intebe ndetse n'ibindi.

Imisozi miremire iriho ibihingwa bitandukanye birimo insina zera ibitoki, hariho kandi n'ibiti birebire. Iyi misozi iteganye n'ikiyaga kinini, gikorerwamo imirimo ijyanye n'uburobyi ndetse kikanakoreshwa mu kuhira imyaka.

Umusozi muremure uriho ibyatsi ndetse n'ibiti birebire, ibi biti bikorwamo imbaho na zo zigakorwamo ibindi bikoresho, rikurura kandi abakerarugendo rikanakurura imvura mu gihe k'impeshyi.

Imisozi miremire iteganye iriho ibimera birimo ibyatsi ndetse n'ibiti birebire, iyo imvura iguye ari nyinshi igashungura amazi ku musozi, ibi bimera birayafata bityo ayo mazi ntateze impanuka zirimo gutwara ubuzima bw'abantu.

Umurima munini w'igihingwa ngengabukungu cy'icyayi, ukikijwe n'ishyamba rinini ririmo ibiti birebire ndetse n'ibigufi, iri shyamba rikurura imvura, rigakurura abakerarugendo, rikanacumbikira inyamaswa nyinshi z'agasozi.

Umusozi muremure uhinzeho ibihingwa bitandukanye ndetse hariho n'ibiti birebire, hariho kandi n'inzu zituwemo n'abantu. Uyu musozi ushyirwaho amaterasi y'indinganire kugira ngo imvura nigwa itazatwara ibihingwa biri kuri uwo musozi.

Ahitegeye umusozi muremure uriho ibyatsi ndetse n'ibiti hari inzu zituwemo n'abantu, hepfo yaho kandi hari igishanga gikorerwamo imirimo itandukanye irimo iy'ubuhinzi bw'imbuto ndetse n'ibindi bihingwa by'ubwoko butandukanye.

Ibyatsi ndetse n'ibiti harimo ibirebire n'ibigufi bikikije ikiyaga cyuzuyemo amazi icyo kiyaga gitanga umusaruro w'amafi menshi ndetse abahinzi bakanagikoresha mu kuhira imyaka yabo.

Imisozi miremire iriho ibiti bigufi ndetse n'ibirebire, bikorwamo ibintu bitandukanye. Nanone kandi hari imirima iri mu mubande ihinzemo ibihingwa birimo ibigori, muri uyu mubande kandi hanyuramo amazi akoreshwa mu kuhira ibi bihingwa.

Uruhererekane rw'imisozi miremire iriho ibintu bitandukanye birimo ibihingwa ndetse n'ibiti. Iyi misozi ikaba ifasha cyane mu bijyanye n'ubukerarugendo ndetse ikaba ituweho n'inyamaswa nyinshi.

Imisozi migufi ituweho n'abantu ndetse iriho ibimera bitandukanye, birimo ibyatsi ndetse n'ibiti birebire. Hari kandi n'igihingwa cy'insina cyera ibitoki bivaho imineke imwe ikaribwa indi igakorwamo ikinyobwa cy'urwagwa.

Umurima munini urimo igihingwa cy'insina zera ibitoke, muri uwo murima kandi harimo igiti kirekire ukaba witegeye ikiyaga gikorerwamo imirimo y'uburobyi ndetse kikanakoreshwa mu kuhira ibihingwa.

Ahitegeye umusozi muremure, uriho ibihingwa bitandukanye ndetse n'ibiti. Hari umugezi munini utemba, uyu mugezi urakoreshwa cyane mu buhinzi kuko utanga amazi yo kuvomereza ibihingwa bityo ntibyicwe n'izuba ryinshi.

Ikiraro gikozwe mu byuma bisize amabara y'icyatsi kibisi, muri iki kiraro arimo inka zizwi cyane mu muco nyarwanda, zifite amahembe maremare yigoronzoye zizwi ku izina ry'Inyambo, hari kandi n'umugabo wambaye imyambaro y'ubururu n'inkweto zikoreshwa mu kazi wita kuri izo nka.

Rimwe mu matungo yo mu rugo magufi rizwi cyane ku gutanga umusaruro ku bantu baryorora. Iri tungo rikaba rizwi ku izina ry'ingurube ndetse rikaba ribwagura ubu bwana bwinshi.

Amatungo magufi azwi ku izina ry'inkoko yashyizwe ahantu hamwe kugira ngo yitabweho maze atange umusaruro urimo inyama ndetse n'amagi, muri izi nkoko zimwe n'inkokokazi izindi ni amasake atanga inyama zonyine.

Mu kiraro cyubatse neza cyubakishijwe ibiti bikizengurutse neza ndetse n'imbahu harimo ingurube z'ubwoko bwiza, izi ngurube zitabwaho maze zigakingirwa indwara, zikavurwa maze zigatanga umusaruro w'inyama.

Ikiraro cyubakishije ibyuma ariko kitisanzuye, muri iki kiraro harimo inka y'inyana yatandukanyijwe na nyina nyuma yo kuvuka. Iyi nka izitabwaho maze ikure nayo itange umusaruro w'inyama ndetse n'amata.

Ibiraro byubakishije ibyuma, bisize amabara y'icyatsi kibisi. Muri ibi biraro harimo inka nziza zizwi ku izina ry'inyambo, zifite amahembe maremare yigoronzoye, hari kandi n'abagabo bashinzwe kwita ku buzima bwa buri munsi bw'izi inka, bazivura ndetse banazigaburira.

Ikiraro gikoze neza cyubakishije amatafari ahiye, gikurikiranye n'ibindi byinshi, muri iki kiraro harimo amatungo magufi azwi ku izina ry'ingurube. Aya yitabwaho maze agatanga umusaruro urimo inyama bigateza imbere abazorora.

Abagabo bari ahantu mu kiraro cyubakishije ibyuma, aba bari kumwe n'inka zabo za kijyambere zirimo izifite amabara y'umukara n'umweru, bari kuzitaho ndetse banazikama bashyira mu gikoresho kifashishwa mu gukama ndetse no kubika amata.

Ibiraro byubatse neza byubakishije imbaho ndetse n'ibiti, hasi habyo hashashishije utubaho dutoya ndetse hejuru hasakaje amabati, ibi biraro bishyirwamo amatungo yaba maremare ndetse n'amagufi.

Ibiraro byubakishije ibyuma binasakaje amabati. Muri ibi biraro harimo amatungo azwi ku izina ry'inka, atanga umusaruro urimo umukamo ushimishije ndetse n'inyama. Nanone kandi hari abantu benshi bashinzwe kwita ku buzima bwa buri munsi bw'izo nka.

Abagabo bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, bari ku biraro byubakishije ibyuma bisize n'amarangi y'icyatsi kibisi. Muri ibi biraro harimo inka izwi ku izina ry'inyambo ifite amahembe yigoronzoye ndetse maremare, bakaba bari kuyitaho kubera ifite ikibazo cy'ubuzima.

Mu kiraro cyiza cyane gifite inkuta zubakishije amatafari, harimo ingurube ifite amabara y'umukara iyi ngurube kandi ikaba yitabwaho igahaga ibyokurya, igahabwa imiti iyivura indwara maze nayo igatanga umusaruro urimo ibishingwe ndetse n'inyama.

Ahari ibiraro bikozwe mu byuma ndetse bisize amabara y'icyatsi kibisi, harimo inka nziza zizwi kuba ari ikimenyetso cy'umuco nyarwanda. Izi zizwi ku izina ry'inyambo, zifite amahembe maremare. Ziri kumwe n'abagabo bashinzwe kwita ku buzima bwazo bwa buri munsi.

Mu gisambu kinini kirimo ibyatsi ndetse n'ibiti birebire harimo inka zo mu bwoko bwa kijyambere, izi nka zitabwaho zigatanga umusaruro mwiza urimo inyama ndetse n'umukamo na wo ukorwamo ibindi bintu birimo nk'amata.

Ahantu mu mbuga ngari hari ubwatsi butoshye bumwe ufite ibara ry'icyatsi kibisi, na none kandi hari ibiti birebire, hakaba kandi hari ishyo ry'inka nyinshi ziri kurisha kugirango ngo zizatange umusaruro urimo amata n'inyama.

Ibiraro byiza cyane byubakishije ibyuma ndetse bisakaje n'amabati, birimo inka nziza zifite amabara y'ikigina. Izi nka ziri mu bwoko bw'inzungu cyangwa se zizwi ku izina rya kijyambere, izi iyo zitaweho zitanga umusaruro ukomeye w'amata menshi cyane.

Ibiraro byiza bikozwe mu byuma ndetse bisakaje n'amabati. Muri ibi biraro, harimo inka za kijyambere zifite amaherena yerekana ko zakingiwe indwara zitandukanye. Izi kandi ziri kwitabwaho zihabwa ibyatsi, ngo zizatange umusaruro ushimishije w'amata.

Mu murima munini urimo ibyatsi ndetse n'ibiti bagaburira amatungo, harimo amatungo magufi azwi ku izina ry'ihene amwe afite amabara y'umweru andi afite amabara y'ikigi aya matungo atanga umusaruro urimo ibishingwe ndetse n'inyama.

Mu nzu yabugenewe yubakishije imbaho harimo inkoko zifite amabara y'ikigina, izi nkoko zirimo ubwoko butandukanye inkokokazi ndetse n'amasake, zihabwa ibyoku kurya hifashishijwe udukoresho dukoreshwa mu kuzigaburira maze zakura zigatanga umusaruro.

Amatungo magufi azwi ku izina ry'inkoko zifite amabara y'umweru n'umukara, izi nkoko zitanga umusaruro w'amagi ndetse n'inyama, zashyiriwe kandi ibiryo mu kintu kirambuye ziri gutora.

Inzu yabugenewe yubatswe hakurikijwe amabwiriza, ifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku, irimo amatungo magufi azwi ku izina ry'inkoko arimo amasake ndetse n'inkokokazi, aya agaburirwa hakoreshejwe udukoresho twabugenewe maze agatanga umusaruro.

Mu cyumba gikorerwamo ibijyanye n'ubworozi, harimo udukoko duto tuzwi ku izina ry'imishwi, dufite amabara y'umukara ndetse n'umweru, utu dukoko twitabwaho neza maze tukazavamo inkoko nkuru, zitanga umusaruro w'inyama n'amagi.

Mu kiraro cyateganyirijwe gukorerwamo ubworozi bw'amatungo magufi harimo, inkoko z'ubwoko bwinshi zirimo inkokokazi ndetse n'amasake, izi nkoko zitabwaho zigatanga umusaruro w'amagi ndetse n'inyama bigateza imbere abazorora.

Ikiraro gikoze neza k'ibyuma ndetse gisakaje amabati, muri iki kiraro harimo inka za kijyambere zifite amabara y'ikigina, imbere yazo hari umugabo wambaye imyambaro y'umweru n'umukara, ushinzwe kwita kuri izi nka kugira ngo zitange umusaruro.

Amatungo maremare azwi ku izina ry'inka z'inyambo zifite amahembe maremare, izi nka iyo zashyizwe hamwe zitwa ishyo. Hari kandi abagabo bashinzwe kuzigaburira ndetse no gukurikirana ubuzima bwazo bwa buri munsi.

Imbere y'inzu zubakishije amatafari ahiye ndetse zisakaje amabati, ari ibiraro byiza byubakishije ibyuma, muri ibi biraro harimo inka za kijyambere ndetse n'abagabo bashinzwe kuzitaho no kuzikama.

Mu kiraro gifite inkuta zubakishije amatafari harimo rimwe mu matungo magufi azwi ku izina ry'ingurube, aya matungo iyo yitaweho agahabwa ibyo kurya bifite intungamubiri na yo atanga umusaruro w'inyama, bityo bigateza imbere uyorora.

Ahantu mu kiraro gikoze neza kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu bworozi bw'inkoko, muri iki cyumba kandi hakaba harimo inkoko z'imishwi nyinshi zifite amabara y'umweru, izi zikaba zitabwaho, maze zakura zigatanga umusaruro w'inyama n'amagi.

Amatungo magufi azwi ku'i izina ry'ihene, afite amabara y'umweru ndetse n'umukara, aya matungo ari ahantu mu gisambu kinini kirimo ubwatsi, akaba ari kurisha kugira ngo azatange umusaruro.

Mu kiraro cyubakishije amatafari, gifite inkuta zikomeye ndetse cyubatswe mu buryo bugezweho harimo itungo rigufi rizwi ku izina ry'ingurube, iri tungo iyo ryitaweho rigahabwa ibyokurya ndetse n'imiti bitanga umusaruro ushimishije w'inyama.

Umworozi wabigize umwuga, wambaye inkweto zikoreshwa mu kazi, ari mu kiraro cye cyubatse neza hifashishijwe urudandi ndetse n'amabati, arimo udukoresho akoresha agaburira udushwi twe tw'inkoko maze twazakura na we tukamuha umusaruro.

Abagabo ndetse n'abagore bari ahantu mu gashyamba, barimo umugabo umwe wambaye inkweto zikoreshwa mu kazi, uyu ari guha umuti itungo ryo mu rugo rigufi rizwi ku izina ry'ihene, rifite ikibazo cy'ubuzima kugira ngo rigarurire ubuzima bwiza.

Abagabo bagize umwuga ibijyanye no kwita ku matungo yaba amaremare ndetse n'amagufi, bari ahantu hari ibiraro byubakishije ibyuma, muri ibi biraro harimo inka nziza zizwi ku izina ry'inyambo zifite amahembe maremare, aba bagabo bari kuzitaho baziha umuti ndetse banazitera inshinge kugira ngo zikire indwara zirwaye.

Umubyeyi w'umugore ukuze wambaye imyambaro y'umukara, ari kwegeranya umusaruro ukomoka ku buhinzi bugizwe n'inete z'ibigori, akawupakira neza mu mufuka mbere y'uko ujyanwa aho ugomba gutunganyirizwamo ifu.

Mu murima munini cyane ukikijwe n'ibiti birebire harimo umusore wambaye agasengeri, uyu afite igikoresho gitwarwamo ibintu ndetse arimo aratera imbuto mu murima uri guhingwa n'imashini ihinga.

Abagabo barimo bambaye imyambaro ifite ibara ry'icyatsi kibisi, bari kwegeranya umusaruro ukomoka ku buhinzi bw'igihingwa cy'ibigori. Ibi bihingwa biri mu ntete ndetse zijyanwa gukumo ifu nayo ikaba yavugwamo akawunga cyangwa se ikanakurwamo ibiryo by'amatungo.

Umubyeyi w'umugore ukuze ari mu mbuga irimo ibyatsi bitoshye, muri iyi mbuga yashashemo shitingi kugira ngo yanikeho umusaruro w'ibigori bitaratunganywa cyangwa se ngo bihungurwe, nyuma yo kubihungura azajye kubisheshamo ifu maze agaburire abagize umuryango we.

Itsinda ry'abakozi bakora mu ruganda, bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ndetse n'ingofero zibarinda mu gihe cy'impanuka. Ni byiza cyane ko abakozi bakwambara izo ngofero kuko impanuka idateguza.

Ubwoko butandukanye bw'amasaka burimo ay'umweru, atukura ndetse n'afite ibara rivanze, aya masaka avaho intete zigasheshwamo ifu nayo ishobora kuba yakurwamo umutsima cyangwa igakurwamo igikoma cyo kunywa.

Ibikomoka ku buhinzi birimo ibinyampeke, ibinyamisogwe, urugero twavugamo nk'ubunyobwa ndetse n'ibishyimbo, ibi ni bimwe mu bifasha umubiri mu kugira ubudahangarwa ndetse n'ubwirinzi buhambaye, butuma utibasirwa n'indwara zibonetse zose.

Umusaruro w'ubuhinzi uzwi ku izina ry'ibigori wanitse neza mu mbuga, uyu musaruro ukorwamo ifu nayo igakorwarwamo igikoma cyangwa se akawunga karibwa mu rugo.

Icyumba cyabugenewe, gifite amabara y'umweru n'umutuku. Muri iki cyumba harimo udushwi duto, tuzwiho kuba dutanga umusaruro iyo dukuze ariko na nonene dusabwa kwitabwaho cyane, tugahabwa imiti kuko dukunda kwibasirwa n'indwara, tugahabwa kandi n'ibyo kurya bihagije.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'uturindantoki ari ahantu hari ikiraro cyubakishije ibyuma, muri icyo kiraro harimo inka zizwi ku izina ry'inyambo zifite amahembe maremare.

Mu biraro byubakishije ibyuma binasize amabara y'icyatsi kibisi, harimo inka ya kijyambere, iyi nka ifite ikibazo cy'ubuzima, hakaba hari abantu bambaye imyambaro y'ubururu baje kwita ku buzima bw'iyo nka bayivura indwara irwaye.

Abagabo bambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu ndetse n'uturindantoki, aba bari mu kiraro cyubakishije ibiti, bari kwita kandi ku nka ifite ikibazo cy'ubuzima mu rwego rwo kugira ngo barebe ko bayivura maze igakira.

Umugabo ukiri muto, ushinzwe kwita ku buzima bw'amatungo, ari ahantu hari ikiraro cyiza gikozwe mu byuma, muri icyo kiraro harimo inka ifite ikibazo cy'ubuzima. Uyu akaba ari kuyitaho, ayitera urushinge.

Ahantu mu nzu iberamo ibikorwa byo kubaga amatungo yubakishije ibintu bitandukanye birimo amakaro, harimo umugabo wambaye uturindantoki, uyu akaba afashe inyama nini y'umutuku yavuye ku itungo amaze kubaga.

Mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi ndetse n'ubuvuzi bw'amatungo, harimo umugabo n'umugore bambaye imyambaro y'akazi, aba bari gusuzuma itungo ryo mu rugo rizwi ku izina ry'imbwa rifite ikibazo cy'ubuzima.

Mu kiraro cyubakishije amatafari ndetse n'ibiti gisakaje amabati, harimo inka ifite ikibazo cy'ubuzima, ariko na none iyi iri kwitabwaho n'abantu bagize umwuga ibyo kwita ku matungo.

Umugabo wambaye imyenda y'akazi ifite ibara ry'umweru ndetse n'uturindantoki, ari mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, bikorerwamo ubushakashatsi bw'indwara. Uyu ari gukora ubushakashatsi bwe.

Abaganga bambaye imyambaro y'akazi ndetse n'uturindantoki tubarinda kuba bagira indwara bandura bari gusuzuma ndetse banavura itungo rirwaye, aba bari gukoresha udukoresho dukoreshwa mu buvuzi turimo imikasi ndetse n'inshinge.

Mu kiraro gikoze mu byuma bisize ibara ry'icyatsi kibisi harimo abagabo babiri, umwe afashe umurizo w'inka naho undi afite igikoresho gikoreshwa mu kuvura amatungo, aho ari kuvura iyi nka ifite ikibazo cy'ubuzima.

Mu biraro bikozwe neza, byubakishije ibyuma bisize amarange y'icyatsi kibisi, harimo inka zizwi ku izina ry'Inyambo zifite n'amahembe maremare, izi ziri kwitabwaho n'abagize umwuga ibyo kwita ku matungo.

Inyama izwi ku izina ry'iroti yabazwe mu nyamaswa ahantu habagirwa amatungo, iyi nyama ijyanwa ku isoko ikagurishwa maze abayiguze bagatanga amafaranga nabo bakajya kuyiteka kuko ikungahaye ku ntungamubiri nyinshi.

Itsinda ry'abaganga bambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'umweru, bari mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo ubushakashatsi, aba bari kwiga ku ndwara ndetse bakaba banambaye n'uturindantoki, twabarinda kuba bagira ibyo bandurira aho.

Inyamaswa zo mu bwoko bw'inyoni zizwiho kugira amababa abereye ijisho, izi nyamaswa zigira umunwa muremure ndetse zikunda kwibera mu mazi kuko zihigamo utundi tuyabuzima, turimo nk'amafi mato ndetse n'iminyorogoto.

Mu muhanda ugezweho ufite ibara ry'umukara, harimo inyamaswa zo mu bwoko bw'inguge zizwi ku izina ry'ibitera, izi nyamaswa zikaba zikunda kwibera ahantu mu mashyamba ndetse zikaba zizwiho, kona ibintu by'abaturage birimo imyaka.

Inyamaswa y'inkazi iba ahantu mu byanya bikomye, cyane cyane mu mashyamba no mu bihuru. Iyi izwi ku izina ry'urusamagwe, ifite amabara y'ikigina ndetse n'umukara, ikunda kurya inyama ndetse iranahiga, yifashishije umuvuduko wayo ndetse n'amenyo atyaye.

Zimwe mu nyamaswa zo mu ishyamba zizwiho kuba zikunda kwiba abaturage, zirira ibyatsi n'ibindi byose zibonye, izi nyamaswa ntizikunda umuntu uzishotora, dore ko zigira n'amahane.

Mu byatsi bitoshye harimo akanyamaswa keza gafite ibara ry'umweru ndetse n'ikigina, aka kanyamaswa kagira umurizo muremure ndetse n'ubwoya bwinshi, kazwiho kwirira ibikomoka ku buhinzi ndetse no kwangiriza abaturage.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'inyoni ifite amababa afite amabara meza ,ndetse ifite umunwa muremure w'umuhondo iyi nyamaswa ikaba ikunda kwibera mu mazi, mu rwego rwo kugira ngo izindi nyamaswa zo ku butaka zitayangiriza dore ko idakunda kuguruka cyane.

Inyamaswa zibera mu ishyamba n'ahandi mu byanya bikomye, zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, zizwi ku izina ry'imparage, izi nyamaswa zikunda kwirira ibyatsi ndetse abantu barazikunda, zikaba zikunda no gukurura ba mukerarugendo.

Uruhurirane rw'inyamaswa zo mu gasozi ziba ahantu hakomye, harimo Intare, Imparage, Inzovu, agasumbashyamba ndetse n'izindi, muri izi nyamaswa hakaba harimo iz'inkazi zirya inyama ndetse n'izindi zirira ibyatsi.

Inyamaswa ifite ubwoya bwinshi ndetse y'inkazi kuko ikunda kurya inyama, iyi nyamaswa yibera mu mashyamba maze igatungwa no guhiga utundi tunyamaswa, ikatwica maze ikaturya.

Inyamaswa y'inkazi izwi ku izina ry'ingwe, ifite amabara y'ikigina ndetse n'umukara, iyi nyamaswa ikunda kuba mu ishyamba kuko ari impigi bivuze ko irya izindi nyamaswa, bityo iba igomba kuzihigira mu mashyamba ndetse no mu bihuru.